Hari robine hari n'umwana waje kuvoma, iyi ngiyi ni iyegerejwe abaturage kugira ngo amazi ababe hafi, bajye bareka kwambuka ibishanga bajye bareka kunywa amazi atameze neza cyangwa atayunguruye.

Njyewe uko mbibona ni abantu bakuze bari mu nama barimo kwiga ku bibazo bitandukanye, yaba iby'ingo zabo cyangwa imirire y'abana babo kugira ngo bakure neza.

Uyu ni muganga ari kumwe n'umurwayi ufite ubumuga, ugendera mu kagare urabona arimo aramuganiriza baseka, bishimye kugira ngo areke kuguma gutekereza ko atameze nk'abandi.

Muganga arimo arafasha umuntu uri mu zabukuru uri gutambuka, urabona ko akuze, arashaje, arimo aramufasha gutambuka mu kagare gake gake kugira ngo amagufwa ye yongere yegerane akore neza.